Abagabo basa naho bari gukora akazi k'ikiyede, bambaye imyenda y'ubururu, harimo n'umusaza uri kubaha umusada.

Abakobwa bambaye imyenda y'ubururu. Bisa n'aho bari gukora, bari kudoda imyenda. Bisa n'aho ari mu ishuri.

Abana bameze nk'aho bari kwiga kuvura amatungo, ubuvuzi bw'amatungo ni bwiza budufasha kutandura izindi ndwara ziterwa n'amatungo.

Abasore bari gupima ibintu byinshi bigaragara ko bameze nk'abanyeshuri bari gupima ibintu runaka by'amazi bisukika.

Ni abanyeshuri bari ku mashini bisa n'aho bari muri lab, abanyeshuri bari gukoresha imashini. Kwiga ku mashini byiza, bijyana n'igihe cy'iterambere.

Ububaji ni bwiza cyane bufasha abantu benshi, buri mu bwifashishwa mu ibi bikoresho harimo iranda, harimo metero, inyundo n'ibindi, ni byiza cyane bifasha abantu benshi.

Umwana ufite igishushanyo, umwana wambaye ishati y'ubururu arishimye cyane kubera igishushanyo cye arikugaragaza yashushanyije.

Abasore babiri bari gusudira ibyuma. Ibyuma bisa n'aho ari inzugi, abasore, gusudira ni byiza, byatunga umuntu uwo ari we wese ubikoranye ubuhanga.